Itsinda ry'abantu bari mu nama bakaba ari abantu bagera ku munani harimo abagabo batandatu n'abagore babiri, ku meza yabo hateretse ibikombe birimo icyayi ndetse na porojegiteri.

Umugore uri kumwe n'umwana, uwo mwana akaba yambaye impuzankano, ari kumukarabya intoki, ndetse biragaragara ko yamusiye isabune, hasigaye gushyiraho amazi.

Inama yahuje abantu benshi ndetse mu bari gutanga ikiganiro bakaba bagera kuri batandatu, aho ari abagabo batanu n'umugore umwe.

Abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru bari kumwe n'abandi bantu bakaba bahagaze mu nyubako bari gufata ifoto, ariko hejuru kugikuta aho bari gufatira ifoto handitseho ngo uburyo bwo gukumira no kwirinda gutwita kw'abangavu.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye mu nama yabahuje, bakaba bafite ibitabo barambuye bari kureba ndetse bakaba bakurikiwe n'ikiganiro bari guhabwa.

Ku ivomero rusange hari umugore waje kuvoma, akaba ari umugore wambaye ingofero y'ubururu, igisharope kiganjemo ibara ry'icyatsi, ndetse n'umupira bakunda kwita nejeje ubunyobwa.

Sare ngari yahuriyemo abantu benshi bari mu nama bakaba barimo abagore ndetse n'abagabo kandi hakaba harimo n'abanyamakuru bari gufotora cyangwa se baje gushaka inkuru.

Inama yahuje itsinda ry'abantu akaba ari abaganga, bakaba bari ku meza amwe ndetse bakaba bari kwitegereza umugabo wambaye ishati y'ubururu nkaho ari kubasobanuririra.

Amahugurwa y'ubuzima yahuje abantu benshi. h Harimo abagabo ndetse n'abagore, ariko abenshi muri bo bakaba bambaye imipira y'umweru iriho ikirango cy'abanyabuzima.

Inama yahuje abantu benshi ikaba iri kwiga ku iterambere ry'ubuzima, ifite insanganyamatsiko igira iti neshono dayaroge ono herufu fiyinensingi inkirizingi domesitike risosizi foro herufu.

Ivomero rusange ryaje kuvomerwaho n'abantu benshi, hari amavido menshi, kubera ubwinshi bwayo baba bashyize ku murongo kugira ngo hatagira utanga undi, ndetse bamwe baba bazanye amagare yo gutwaraho amazi.

Abaganga bo ku kigo nderabuzima cya Mayange, bakiriye umugabo w'umuzungu ndetse bakaba bamwishimiye bari kumukomera amashyi.

Umugabo munini, wambaye ikositime na karavati, ari kwifotozanya n'umugore wambaye agakanzu kagufi, bakaba bahagaze imbere y'icyapa cya navigetingi taranzisheni.

Umujyanama w'ubuzima yasuye umubyeyi iwe mu rugo ari kumusobanurira, ikindi ni uko umujyanama yambaye bote z'umweru.

Umusaza w'umuyisilamu ari kumwe n'umuganga wambaye udukoresho twabugenewe. Akaba yambaye masike k'amaso ndetse n' agapfukamunwa. Akoze ku umugabo bisa nkaho ari kumusuzuma.

Ku ivomo hari umugore uri kuvomera amazi mu ndobo ariko hakaba n'abandi barimo kumupompera kugira ngo amazi abashe kumanuka cyangwa se kuza.

Furaya igaragaza ikiganiro kizaba, ndetse igaragaza abazaba bayoboye ikiganiro, mafoto yabo ndetse n'amazina y'abazafata ijambo muri icyo kiganiro, kikazaba kivuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo "Rivingi no wani bihayindi".

Mu ivuriro harimo abantu benshi baje kwikingiza ndetse hakaba hagaragara cyane cyane umugore wambaye agapfukamunwa, muganga akaba ari kumutera urushinge ku kuboko kw'iburyo.

Umugore wambaye ikarita y'akazi ndetse n'umwambaro wabugenewe akaba ari mu muhanda agenda ahereza abantu impapuro ziriho amafoto atandukanye.

Abakozi benshi ba RBC (Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda), bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo: umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, aho bagaragaza ngo isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bateraniye mu nama ariko buri umwe wese akaba afite agacupa k'amazi imbere ye ko mu bwoko bwa nire, ndetse abenshi muri bo barakurikiye usibye umwe urangariye umuntu uri gufotora.

Umwana ukiri muto, ari ku ivomero rusange, akaba ari kuvoma amazi yifashishije intoki, ndetse akaba ari guseka, bigaragara ko yishimiye umuntu ari kureba.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana ukiri muto akaba yamushyiriye abajyanama b'ubuzima, hanyuma bakaba bari kumuha akanini ka vitamine uwo mwana.

Abana bane bakiri bato baje kuvoma ku iriba rusange imbere yabo ariko hari umukobwa mukuru uri kubapompera amazi kuko bo mu by'ukuri bigaragara ko batabasha kuyapompa bakiri bato, ikindi hirya y'aho haparitse imodoka.

Abana barimo bakina basimbuka umugozi ndetse hakaba hari umugabo uri guha umwana icyo bita hayi fayive, amushimira bigaragara ko yasimbutse neza.

Abana babiri b'abakobwa bamaze kuvoma amazi hanyuma umwe ari gukorera undi amazi ndetse bayavomeye mu ndabo ifite ibara ry'icyatsi.

Hari abagabo, abagore ndetse n'abana ariko aba bagore ndetse n'abagabo bakaba bari gufasha abo bana kunywa amata, bamwe bari kunywesha abana ndetse abana bamwe bari kwinywesha.

Abana batatu bakiri bato bakaba bari gukarabira ku rukarabiro ndetse bombi akaba ari abakobwa ikindi ni uko bari kwitegereza umuntu uri kubafotora ndetse barishimye bari guseka.

Umwana w'umukobwa ukiri muto akaba ari gukarabira kuri robine ndetse ari gukaraba amazi agwa mu ibase y'umukara, ikindi ni uko yambaye ikanzu y'igitenge yiganjemo ibara ry'umutuku ndetse yanasutse ibituta.

Ku ivomero rusange hari abantu benshi, baje kuvoma ndetse hakaba hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, uri kubapompera amazi kugira ngo babashe kuvoma.

Ivomero ryatewe inkunga na yunisefu mu kugira ngo ryubakwe rihagazeho abagore benshi ndetse n'umwana, hanyuma babiri muri bo bari gufashanya guterura indobo y'ubururu irimo amazi.

Itsinda ry'abagabo bagera ku ikenda, bari gusangirira ku meza amwe icyo kurya n'icyo kunywa, ariko banaganira ndetse bose bahanze amaso umwe muri bo uri kubaganiriza.

Abana benshi bari gukaraba amazi bifashishije uruhombo rusa nk'urutoboyemo utwenge twinshi, amazi bari gukaraba akaba ari kumanuka agwa mu ibase y'umutuku.

Kwa muganga hari abagore benshi bafite abana b'impinja bisa nkaho baje gukingiza ndetse bamwe bakaba bari kubonsa, abandi barabateruye mu gihe bategereje ububafasha.

Umwana w'umukobwa ukiri muto akaba ari gukarabira intoki ze ku ivomero cyangwa se ku itiyo ariko ari gukaraba amazi amanukira mu ibase y'umukara ikindi ni uko yambaye ikanzu yo mu gitenge yiganjemo amabara y'umutuku.

Umugore ufite umwana ukiri muto yamujyanye kwa muganga mu cyumba cy'isumiro, muganga akaba ari kumusuzuma amukoraho ndetse akaba ari kumwitegereza mu maso.

Itsinda ry'abaganga barimo abagore n'abagabo, bahagaze muri koridoro bari kwifotoza ndetse hagati yabo harimo n'umusoyonga bigaragara ko yari yabasuye.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato bari mu ihema bari kumwe n'abarimu, ndetse n'abandi bantu baje kubasura bahagaze imbere yabo, abana bakaba bambaye udukanzu twamabara y'ubururu n'amashati ajya gusa umweru.

Inyubako y'ubuyobozi imbere yayo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse hakaba hubatse n'ihema, iruhande rw'iryo hema hari abantu benshi bicaye barimo abagore, abagabo ndetse n'abana, ndetse n'abari imbere yabo bari kubafasha babaha serivisi.

Umwana wumukobwa ukiri muto akaba yambaye ikanzu idoze mu gitenge, ndetse afite icupa rya palasitike ry'amazi, ari kuyamena hasi iruhande rw'igikuta.

Itsinda ry'abaganga bambaye amakarita y'akazi bari gufata ifoto hamwe n'umugabo w'umuzungu, akaba ahagaze hagati yabo afashe babiri ku rutugu kandi yambaye ikositimu ndetse na karuvati.

Itsinda ry'abaganga bagera kuri batanu, bakaba bicaye hamwe ndetse bakaba bari gufata ifoto, aho bamwe muri bo bambaye amakarita y'akazi, ariko abandi ntabwo bayambaye.

Umuntu uri kuvoma amazi ari kuvoma ku ivomero rusange ndetse akaba yambaye igisharupe kirimo amabara y'umutuku, ari kuvomera mu bido y'umuhondo, imbere ye hari n'akandi kabido gatoya k'umweru.

Umugezi urimo kuvomerwamo n'umugore, ariko inyuma ye hakaba hari umugabo uri kohogerezamo igare.

Inyubako y'ubuyobozi, imbere yayo hari ihema riri gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi. ikindi ni uko hari abantu benshi, bamwe baricaye, abandi barahagaze, kandi hakaba hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye imyenda yacikagurutse, n'inkweto zishaje, ndetse akaba afite ibintu byinshi mu ntoki, harimo amashashi bigaragara ko ari umusazi.

Umumama w'umugore ariko uri kureba nabi kuko yakambije agahanga ndetse n'iminwa akayikurura, ikindi ni uko yiteze igitenge mu mutwe, akaba afite n'amaherena ku gutwi.

Sare ngari ikaba yabereyemo inama yahuje abantu benshi, ariko imbere y'abandi hahagaze umukobwa ndetse n'umugore, bari kubana ariko umugore akaba afite mikoro ari kuvuga ijambo, ndetse n'undi akaba yishimiye ibyo arimo kuvuga.

Umugabo bigaragara ko ababaye afite n'agahinda aho mu jisho rye ry'iburyo harimo kuvamo amarira.

Umugore uhagaze, uri kwitegereza umuntu, uri kumufotora, akaba ari kwifotoreza, imbere y'icyapa cyanditseho ngo patinazi ini herifu.

Umugore wicaye mu nzu wenyine akaba yicaye ku ntebe ndende bita karambarazi, ikindi ni uko imbere ye hari umusambi kandi n'idirishya ry'inyuma ye rikaba rikinguye.

Ikirango cya RMHP, akaba ari "Rwanda Mental Health in Practice", kikaba ari ikirango cyiganje mu ibara ry'ubururu, umutuku, icyatsi ndetse n'umweru.

Inama yahuje abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, ndetse muri bo hari umugore ufite mikoro wahawe ijambo uri gutanga ikiganiro. Imbere ye ateretse imashini ndetse n'abari ku ruhande rwe bari kumwitegereza bamwe bareba ibyo avuga.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara menshi akaba ari kwerekana ikarita ye y'akazi cyangwa se ikiranga akazi akora cyangwa se umurimo ashinzwe.

Umugabo munini wambaye ikanzu y'amaboko maremare y'abayisilamu, akaba ahagaze ari gufata ifoto ndetse arishimye arashaka kumwenyura.

Ikirango gifitwe n'abantu benshi bambaye impuzankano, ndetse na polisi, cyanditseho ngo "Kurwanya ihohoterwa ni nshingano yanjye".

Amahugurwa yahuje abantu benshi bakaba bari kwiga ku bibazo by'indwara zo mu mutwe ndetse imbere yabo hari umugore uhagaze uri mu kubahugura.

Umugabo aricaye yifashe mu maso yipfutsamo bigaragara ko umutwe uri kumurya, ikindi nuko yambaye umupira w'umukara.

Sale nini. Yahuriyemo abakozi ba Unicef, ndetse bose bakaba bari gufata ifoto, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Umugore uri kumwe n'abana babiri, ndetse umwana umwe ni mutoya kuko aramuhetse, undi we ahagaze iruhande rwe. Hanyuma atetse igikoma mu isafuriya.

Umugabo bigaragara ko ari umusazi afite umusatsi wabaye mwinshi ndetse umaze igihe utogoshwa, inzara ze zabaye ndende ntiziheruka gucibwa, ikindi yicaye hagati y'ipine ayizengurukije mu nda ipine ni iy'imodoka.

Sale ngari yabereyemo inama ikaba irimo abantu batandukanye yaba abagore n'abagabo kandi biragaragara ko bose bakurikiye uri kubaha ikiganiro..

Abana benshi bakiri bato baricaye, barishimye, kuko bonse, bari guseka, ikindi ni uko ari abanyeshuri, kuko bambaye iniforume.

Umugabo w'inzobe ufite umucongo mwiza ari kwifotoza yishimye aseka cyane akaba afite agakoresho kanditseho ngo vita karasiko.

Umukobwa ufite amenyo meza y'umweru ndetse akaba intoki ze ebyiri yenda kuzikoza ku munwa ari guseka bigaragara ko ari gufata ifoto cyangwa se kwifotoza.

Kwa muganga mu cyumba cy'aho watangira serivisi z'amenyo abaganga babiri bakaba bari gukura umurwayi iryinyo bifashishije ibikoresho byabugenewe.

Umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi cyane, akaba ari umugabo uri guseka ndetse afite akadodo afatishije ku menyo ye bigaragara ko abyishimiye.

Muri sare yaho batangira serivisi z'amenyo hakaba harimo intebe eshatu, ariko muri izo ntebe eshatu nta muntu n'umwe wicayeho ziri zonyine.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba afite akadodo mu ntoki ndetse akaba yagafatishije ku menyo.

Umugabo wicaye afite insume ku rutugu ndetse afite n'akantu k'akagozi bigaragara nkaho ari plastike mu ntoki ze afatishije amaboko yombi ndetse akaba ari no guseka.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we ukiri muto, bakaba bambaye imipira y'umweru bombi ndetse buri umwe afatishije urudodo mu kanwa ke.

Kwa muganga mu cyumba cy'isuzumiro harimo abaganga babiri bari gusuzuma umwana ukiri muto ndetse bose bakaba bari kwitegereza mu kanwa ke.

Itsinda ry'abana bakiri bato ariko bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri bari kwiborosa bakoresha umuti usukura amenyo n'uburoso ndetse buri umwe wese afite agakombe kandi barishima.

Mu bitaro kwa muganga aho batangira serivisi z'amenyo umuganga akaba ari gukura iryinyo umwana w'umukobwa ariko ukiri muto we.

Umugabo uri kumwe n'umugore we bakaba bambaye imipira y'umweru bombi ndetse bakaba bari kwireba mu kirahure bose bafashe ku minwa, umugabo ni igikara, umugore ni inzobe.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato ndetse bari hamwe bafite uburoso na korogate bari kwiborosa ndetse buri umwe afite igikombe n'uburoso.

Mu ivuriro kwa muganga hari umurwayi urwaye iryinyo, ndetse hari abaganga babiri bakaba bari kumukura iryinyo bifashishije ibikoresho byabugenewe.

Umugore wicaye mu ntebe zo kwa muganga, aho batangira serivisi z'amenyo, akaba ari kuyireba mu ndorerwamo, arishimye cyane bigaragara ko amaze gukira cyangwa se ikibazo yari afite cy'iryinyo cyakemutse.

Umusaza ukuze ufite imvi, yaba k’ umusatsi wo ku mutwe ndetse no kubwanwa, ari muri siporo yambaye ekuteri n' amadarubindi, ikindi afite udukoresho tubiri tw’ umutuku mu ntoki two gukora siporo.

Abagore babiri barimo umukecuru wambaye amadarubindi, baririye mu gikoni aho bari gutunganya ibyo guteka ariko bakaba bari kubikora baganira, ndetse uwo mukecuru afite n'umutobe wo kunywa uri mu kirahure, ikindi ni uko imbere yabo hari imbuto nyinshi zitandukanye ndetse n'ibyo kurya birimo n'imboga.

Umukecuru ukuze kuko afite imvi mu mutwe yambaye umukenyero w'umweru n'akabodi k'ubururu juru akaba afite mikoro ndetse ari kuvuga ijambo imbere y'aho bavugira ijambo.

Abayisilamu bicaye mu cyumba ndetse bicaye ku mukeka bakaba barimo batatu bambaye ingofero z'abayisilamu, ikindi ni uko barindwi muri bo ari abasaza, abandi babiri b'abagabo batara abasaza, umwe muri bo kandi akaba ari kudoda ingofero.

Umugabo n'umugore ariko bigaragara ko bakuze, imbere yabo ku meza hari ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti, ibinini bitandukanye, ariko bakaba barangariye muri telefoni bisa nkaho hari icyo bari kwitegereza.

Umuganga w'umugore arimo gusuzuma umusaza akaba ari kumusuzuma yifashishije agakoresho kabugenewe ndetse akaba ari kubikora ku kuboko kwe kw'iburyo, ikindi ni uko bari kurebana mu maso bose bishimye kandi umusaza yambaye amadarubindi.

Umukecuru n'umusaza bari kumeza barahagaze, umugabo akaba ari gufasha umukecuru gukura ikinini mu gipapuro.

Umugabo w'umusaza, ariko udashaje cyane, akaba ari gukoreshwa siporo n'undi mugabo, aho bari gukurura umugozi, mu buryo bwo gukomeza amaboko.

Kwa muganga, mu cyumba cy'abarwayi, harimo umugabo ufite ikibazo cy'imvune, ari kumwe n'umuganga, ndetse umuganga akaba ari kumufasha gutambuka, amwerekera ndetse anamuyobora.

Umusaza ukuze, wicaye mu ntebe ndetse akaba ateraye umwana ukiri muto, uwo mwana nawe we akaba afite igipupe mu ntoki ze.

Kwa muganga umurwayi w'umugabo uhagaze ari kuganira n'umuganga w'umugore , aho bigaragara ko umurwayi amaze koroherwa.

Abantu benshi bari kugenda, mu cyerekezo kimwe, ariko imbere hakaba hari abakecuru babiri bakuze bose bakaba bitwaje inkoni.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa. Bakaba bari kwifotoreza mu murima bishimye ndetse abenshi muri bo bazamuye ibiganza bakaba bishimye.

Imiryango ibiri yishimye ikaba ari umuryango w'umugore, umugabo n'umwana ndetse buri ruhande rukaba rufite umwana bivuze ngo bose hamwe ni batandatu.

Umukecuru utetse, akaba aterekeye ku mashyiga ndetse isafuriya ye ipfundikijwe indi safuriya, ikindi ni uko iruhande rwe hari inkwi ari gucana.

Abagore babiri bari gukora siporo ndetse bari kurambura amaboko, aho akaboko k'iburyo kari imbere, ak'ibumoso kari inyuma kandi barishimye bose bari guseka, baranezerewe.

Umugabo w'umusaza ndetse n'umugore, bakaba bari mu busitani, umugabo yicaye ku ntebe mu gihe umugore ari imbere ye ari kumufungurira amapesu y'ishati, uwo mugabo akaba yambaye ishati y'ubururu ndetse bombi bambaye agapfukamunwa.

Umusaza uri kumwe n'abana babiri bakiri bato, bicaye imbere y'umuryango bari kurya umugati, ariko umwana umwe biragaragara ko afite icupa ry'umweru risa nk'aho ririmo amazi cyangwa se amata.

Umugore usa nkukuze, kuko afite imvi, ari gukora siporo, akaba ageze ku gutera pompaje, ndetse ari kuziterarera, kuri tapi yagenewe gukoraho siporo.

Umugabo urimo gukina cesi ariko akaba ari gukina wenyine, bisa nkaho arimo kwitoza mbese ari wenyine.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi ndetse umuganga akaba yambaye agakoresho kifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ikindi akaba hari ibyo ari gusobanurira umurwayi.

Umugabo w'umusaza uri kumwe n'umukobwa ukiri muto, akaba afite agacupa k'ibinini umukobwa ndetse ku meza hatetse n'ikirahure cy'amazi ndetse hari na kompiyuta imbere yabo.

Umugabo ari kumwe n'umwana we w'umukobwa ukiri muto, bakaba bari mu kibuga cya basiketi ndetse bafite n'umupira wa basikete, aho umugabo ari gutoza umwana we gukina uyu mukino wa basikete.

Umukecuru uri kumwe n'umwana we bakaba bari mu gikoni bari gutegura amafunguro, mu byo bamaze gukata harimo ironji, imbere yabo hari inyanya ndetse umukecuru akaba ari gukata imboga, bakaba bari no kuganira bishimye baseka.

Sare ngari yabereyemo inama, ikaba ari inama yahuje abagore n'abakobwa, imbere yabo hari umugore uri kubahugura ndetse hari n'umugore uri kumufotora imbere.

Fulaya igaragaza, ko hazabaho inama ihuza, ihuriro mpuzamahanga rishinzwe ubuzima, ikazaba, ku itariki makumyabiri nenye z'ukwa mbere, ndetse bakaba bashishikariza abantu kujoyininga.

Icyapa kiriho ikirango cya arabisi ndetse n' ikirango cya repubulika y'u Rwanda, kikaba ari icyapa kigaragaza ko kwikingiza urukingo rwa kovide cumi n'icyenda, ari uburyo bwiza bwo kwirinda.

Icyapa cya RBC kikaba kiriho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, kikaba ari icyapa kigaragaza amabwiriza y'uburyo bwo kwirinda agakoko gatera Sida k'ukisuzumisha ndetse no kwiyitaho u Rwanda.

Abaganga babiri, bari gutanga serivise za amenyo, bari gukura umurwayi iryinyo, kandi hari n'abandi barwayi bahagaze ku murongo bategereje ko nabo babageraho.

Inama yahuje abantu benshi, ikaba ari inama yiga ku buzima ndetse ifite insanganyamatsiko igira iti okipeshono halifu endi sefuti komferensi bibiri na makumyabiri na kane.

Mu ivuriro kwa muganga mu cyumba cy'ibagiro, hari abaganga bagera kuri batanu bari muri operasiyo yo kubaga umurwayi ndetse biragaragara ko umurwayi yaba yakomeretse ku mutwe cyangwa se bari kumukura iryinyo.

Mu bitaro mu cyumba cyo babagiramo abarwayi, hari abaganga bari muri operasiyo abo baganga bakaba bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Ubutumire bugaragaza ko hazabaho Advancing youth leadership in the HIV responce in Africa kuko handitse cyangwa save the date one by HIV campaign.

Rbc ikigo cy' igihugu gishinzwe ubuzima aho handitseho Rwanda biomadical ceta ikindi ni health people health nation.

Furaya igaragaza ndetse inashishikariza abantu kwirinda, yanditseho ngo twirinde, munsi mu magambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, handitseho ngo indwara y'ubushita bw'inkende.

Ku ivuriro aho basuzumira abarwayi, hari itsinda ry'abaganga riri gusuzuma abarwayi, bakaba bari kubafata amaraso, aho bari kujomba udushingiye ku ntoki zabo, ikindi ni uko inyuma yabo hahagaze umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake uri kubitegereza.

Kwa muganga mu cyumba kifashishwa bita ku bana, hari umuganga uri kumwe n'agahinja afashe ku kaboko kako k'iburyo ndetse ari kukareba yishimye.

Inyubako nziza yubakishirijwe amatafari ahiye ndetse ikaba ifite n'inzugi ngari zirimo ibirahure, yanditseho ngo pediyatirike senta.

Kwa muganga umubyeyi w'umugore akaba yajyanye umwana w’ uruhinja kwa muganga, ndetse muganga akaba ari kwitegereza umwana nkushaka kumusuzuma.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, ibasha guhisha amaguru, ndetse n'igice cy'amaso, akaba ari gukora isuku kwa muganga, ndetse bigaragara nkaho ari gutera umuti.

Mu bitaro mu cyumba cy'abarwayi harimo ibitanda bibiri birimo abarwayi ndetse n'umuganga umwe, akaba ari kumwe n'umurwayi umwe ndetse yifashishije n'akuma ko kumupima kugirango arebe uko ahagaze.

Inyubako y'ivuriro ikaba ari inyubako ngari ndetse inafite ubusitani bugari, ubwo busitani buteyemo indabo z'amoko atandukanye ndetse hakaba hari n'ahateye umubyare.

Inzu ya etaje ndende, ikaba ari nyubako y'ubuvuzi, kandi yanditseho ngo polikiriniki di purato.

Mu bitaro, icyumba cyabugenewe harimo igitanda ariko icyo gitanda kikaba kitariho umurwayi mbese icyumba nta muntu urimo.

Inyubako y'ibitaro bya Rwamagana imbere yayo hakaba hahagaze abantu benshi bari kwifotoza, muri bo harimo abanyamahanga b'abazungu ndetse n'abirabura.

Abanyabuzima batatu bambaye amashati y'ubururu ndetse buri wese yambaye akagofero k'umweru, bakaba bambaye amashati asa ndetse n'ingofero zisa bakaba bari kwifotoza ifoto bahagaze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi hari abicaye ku ntebe ndetse n'uhagaze uri kuvugana n'umuganga, inyuma ye y'uwo muganga hari icyapa cyanditseho ngo Dr Mafisa ndetse na patinazi.

Inyubako itangirwamo ubufasha bw'abana, imbere yayo hakaba hariho idarapo ry'u Rwanda n'irindi darapo rijya gusa umweru, handitseho ngo werikamu ahagana hasi.

Inyubako nziza y'ibitaro, akaba ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge kuko handitseho ngo Nyarugenge disitirigiti hosipito.

Inyubako y'ivuriro ikaba ari inyubako nziza kandi ngari ariko mu kayira kerekeza kuri iyo nyubako hari umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ikindi ni uko ku ruhande rwo hepfo hubakiye ikigega cy'umukara gifata amazi.

Inyubako ngari, ifite ubusitani bugari, hakaba hari abantu batatu bari kwerekeza mu ruhande rumwe, ndetse n'abandi benshi banyuze ku ruhande rw'iburyo.

Inyubako ndende ngari ikaba yubatse mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako zigera kuri eshatu, ikindi ni uko zifite ubusitani inyuma bugari.

Kwa muganga mu cyumba kimwe, harimo ibikoresho cyangwa se intebe zicarwamo n'abarwayi batabasha kugenda, ariko muri izo ntebe nta n'imwe iriho umurwayi.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda byinshi ariko kuri ibyo bitanda hakaba ntamurwayi n'umwe uriho ndetse nta n'umuganga ugaragaramo, ikindi ni uko ibitanda bifite amashuka y'ubururu juru ndetse n'ibara ry'umweru.

Mu ivuriro mu cyumba cy'abarwayi harimo ibitanda bitatu biriho amashuka y'icyatsi ariko nta murwayi n'umwe urimo, biri byonyine ndetse nta n'umugangam urimo.

Muri sare ngari yo kwa muganga hari abaganga babiri bicaye imbere ndetse n'abandi bantu benshi bahagaze ku murongo bategereje guhabwa serivisi ariko imbere y'abaganga hari abantu babiri bafite ubumuga bigaragara ko ari bo bahereyeho ndetse bakaba bagendera mu tugare tw'abafite ubumuga.

Kwa muganga mu ivuriro hari umurwayi muganga ari gutera urushinge. Uwo muganga akaba yambaye umupira urenga ku itaburiya kuko amaboko y'itaburiya ari hejuru ndetse n'umupira w'ubururu uri kugaragara.

Inama yahuje abakozi ba arabisi ikaba iri kwiga ku ngamba zo kurwanya malariya, aho bafite intego igira iti "kurwanya malariya bihera kuri njye".

Icyumba cyo kwa muganga, kikaba kirimo intebe ebyiri, ameza ateretseho mudasobwa, ndetse n'intebe umuganga yicaraho, hakaba harimo n'akabati ko guterekaho ibikoresho, ariko akabati kakaba ari kagufi.

Sale nini kandi ngari, ikaba ari sale ikorerwamo siporo, aho harimo amagare yo kunyonga, ndetse hakaba harimo n'utwuma two guterura, twifashishwa mu gukomeza amaboko.

Kwa muganga mucyumba cy'abarwayi harimo ibitanda byinshi ariko nta murwayi urimo, ahubwo hahagazemo umuganga umwe uri kurebera mu idirishya.

Mu bitaro hari icyumba cyihariye kirimo imashini zifashishwa mu buvuzi ndetse hakaba hari n'ikadire irimo ifoto y'imbuto; ndetse n'ibikombe.

Inyubako igurirwamo imiti cyangwa se icyo bita farumasi, ikaba ari farumasi yitwa porogiresi farumasi, ikindi ni uko harimo imiti myinshi ndetse imiti y'amoko atandukanye.

Inyubako y'ivuriro. Ikaba ari inyubako ndende kandi ngari ikaba na none ifite parikingi nini iparitsemo imbangukiragutabara ndetse n'izindi modoka nyinshi zitandukanye, hakaba hagati harimo n'umusekirite ushinzwe kuyobora abatwara imodoka ndetse no gutuma baparika neza.

Inyubako ngari ikaba ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe, kikaba ari ikigo gifite ubusitani bukikijwe n'urupangu rukoreshejwe ibyuma, aho kugira ngo ugereho ubanza kuzamuka esikariye.

Kwa muganga mu cyumba cyihariye, harimo intebe yifashishwa mu gutwara abarwayi batabasha kwicara, hakaba harimo akabati kifashishwa bashyiraho ibintu ndetse harimo n'urukarabiro n'indobo yo kujugunyamo imyanda.

Kwa muganga mucyumba cy'isuzumiro, aho umuganga arimo kureba igice cy'umurwayi cyanyuze muri sikaneri, yifashishije mudasobwa

Umwana w'umuhungu wambaye ikoti ry'umukara ry'ikositime, akaba asunitse papa we mu kagare, akaba amusunitse amujyana ku ivuriro mo imbere.

Icyapa cyo ku bitaro bya gisirikare, kikaba cyerekana aho serivisi zitangirwa ndetse kikabasha kurangira abantu aho bashobora gusanga nk'umuyobozi runaka cyangwa se umuganga runaka ahaherereye.

Kwa muganga mucyumba cy'isuzumiro, umuganga yambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba ari gusuzuma umurwayi, ariko uwo murwayi ni umwana w'umuhungu, ukiri muto ndetse wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi.

Inyubako nini ikaba ari n'ivuriro rya Shangasha, imbere yayo ku ibaraza hicaye abagore babiri bafite abana bakiri bato, ndetse yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Shangasha.

Inyubako nziza yubakishije amakaro ndetse ifite na purafo za rangete, akaba ari inyubako y'ubushakashatsi kuko yanditseho ngo risaci senta.

Mu ivuriro mu cyumba cy'abarwayi harimo igitanda kitaryamyeho umuntu, nta murwayi n'umwe ukiryamyeho, gusa ku rukuta hashushanyijeho amafoto menshi y'abantu ndetse harimo na televiziyo.

Mu ivuriro mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda bibiri ndetse ibyo bitada byose bikaba biryamyeho abarwayi.

Inyubako ya leta nini, ndende, ikaba ifite ubusitani na parikingi imbere yayo, ikindi ni uko hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yayo kandi hari abantu bari kwerekeza iyo bari mu muhanda hafi aho.

Abaganga babiri bahagaze imbere y'imashini yabugenewe, bakaba bari kuyitegereza ndetse bigaragara ko hari ibyo bari gushaka.

Ivuriro rigizwe n'inyubako nyinshi, rikaba rifitemo imihanda hagati, ndetse mu busitani bwaryo, hakaba hicayemo abantu, bamwe bicaye imbere y'amazu, abandi bari mu busitani.

Inyubako nziza ikaba ari inyubako y'ababyeyi cyangwa se materinete, akaba ari inzu nini isakajwe amabati y'ubururu ndetse iteweho irangi ry'umweru.

Inzu ya etage nziza ifite ubusitani bwiza kandi bugari ikaba ari inzu y'ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi bw'imiti yanditseho mediko risaci isitutute ikindi ni uko ku ibaraza ryayo munsi haparitse imodoka y'umukara.

Umugabo uri muri siporo akaba ari kunywa amazi, ikindi ni uko afite ekuteri zo mu matwi ariko akaba azambaye mu ijosi.

Umukobwa uri muri siporo akaba ari kunanura amaguru yicaye ikindi nuko imbere ye haterutse gurude y'amazi kandi yambaye ipantaro y'umukara n'agaseri kagufi k'umukara.

Umuganga, umugore afite igikoresho cyifashishwa mu gupima abarwayi, ndetse akaba ari kwambara n'agapfukamunwa, imbere ye hari imashini, hari igitabo ndetse n'ikaramu.

Umukobwa uri muri siporo ndetse akaba ari kwiyikorera muri sare yabugenewe, akaba ari kunanura ukuguru kw'iburyo aryamye, ikindi nuko yambaye imyenda y'umukara.

Umwana ukiri muto akaba yicaye ku ntebe ndetse iruhande rwe hicaye umukozi wabigenewe, akaba ari kumureba mu maso yifashishije akuma kabugenewe.

Umugabo uri gukora siporo aryamye yubitse inda ku gitanda cyabugenewe, ndetse hari undi uhahagaze uri kumukandira ku kaguru ke k'ibumoso bigaragara ko ari munanura.

Hari umuntu uri kwambara ga, ga bazambara ku kiganza bigaragara ko agiye gukora siporo noneho imbere ye hari uri kuzimufungira wambaye umupira w'umukara wanditseho ngo divijoni ofu sipoti medesine.

Ikirango kigaragaza imikino myinshi abantu bashobora gukina mu gukora siporo, handitseho ngode bezikisi ovu hayidirishani andi kosinhenizi.

Umukobwa ari muri siporo arikunanura akaguru k'iburyo, yambaye utwenda tugufi yaba agakabutura kagufi ndetse n'agapira ko hejuru kagufi.

Umugabo uri muri siporo, ari kunywa amazi ndetse ari kuyanywera mu icupa rya parasitiki, ikindi nanone ni uko yambaye ekuteri z'umweru.

Ikirango kigaragaza uburyo umuntu yakoramo siporo, aho cyanditseho ngo "Jounal of Sports Medicine and Therapy".

Kwa muganga hari ibikoresho by'iminzani, yifashishwa mu gupima uburebure bw'abarwayi, ariko iri yonyine mu cyumba nta muntu ugaragaramo.

Abaganga benshi baricaye, bigaragara ko bari mu nama ya Onurayine kuko imbere yabo hari sikirini n'umuntu uri gutanga ikiganiro, kandi bose ni ho bahanze amaso.

Umugabo ufite ubwoya ku maguru, akaba yavunitse ndetse akaba afite agatambaro k'ubururu ari kwikandisha ku kuguru, akaba ari gukanda kw'ivi.

Igare ry'abafite ubumuga akaba ari igare ryifashishwa mu kugenderwaho n'abantu batabasha kugenda bahagaze rikaba ari rigufi ndetse rikagira udupine tune dutoya naho umuntu wicayemo yabasha gukandagira.

Mu kigo cy'ishuri abana bari gukora siporo bari kumirongo itambitse aho harimo hagati yaho abarezi ndetse n'imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uri kubakoresha siporo.

Umusore uri muri siporo, akaba ari kunanura amaguru, akaba yambaye na none ekuteri mu matwi, bigaragara ko ari gukora siporo, yumva n'umuziki.

Umugabo cyangwa umusore usoje siporo ari kunywa amazi yifashishije icupa rireberana, akaba yambaye umupira w'umukara akaba ari umupira ufite amaboko maremare.

Ikirango kigaragaza uko sigisi pake igura, aho bavuga ko sigisi pake kuba iri kugura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda ndetse bakandikaho ngo yagufasha gukuraho inda bikoroheye.

Ifoto iriho ibikoresho byinshi byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze aho hagaragaraho umukasi, udutambaro, bande zo kuzirika umuntu waba ufite ikibazo mu buryo bwo kumufasha.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamo siporo, hari umugabo uri gukora siporo, akaba ari kunanura akaguru k'ibumoso, ikindi yambaye umupira wumutuku, ikabutura y'umukara, iriho imirongo yumutuku, kuruhande, amasogisi y'umukara ninkweto zijya gusa umweru.

Umukobwa yicaye ku buriri ari kwinanura arasa nkubyutse, akaba yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri kagufi k'umukara ndetse afite n'ibisuko birebire.

Igishushanyo cy'umugabo uri muri siporo, uri guterura ibyuma bikomeza umubiri, hanyuma imbere ye n'iruhande rwe hashushanyije amoko y'imbuto zitandukanye, aho twavugamo nka inanasi, karoti ndetse hari n'amagi na ji yo kunywa.

Icyapa kigaragaza amoko y'imikino ashobora gukinwa n'abana, aho dusangamo nko kwinanura, kwiruka, guterura, gukina umupira n'ibindi.

Mu nyubako ikorerwamo siporo izwi nka jimu, harimo umugabo uri guterura icyuma kiremereye, akaba ari umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'udukomo ku maboko.

Ikirango cya kuruwa ruje cyanditseho ngo kuruwa ruje Rwandeze, munsi handitse Rwanda redi korosi, hakaba handitseho na nonene ngo fesite eyidi tereyiningi fasiriteta.

Ikirango kigaragaza ibyo wakora mu gihe urimo gukira kuko handitseho ngo baranse egisesize foru rikavari.

Umwana w'umukobwa akaba ari kunanurwa n'umuganga wabigenewe akaba ari kumunanura ukuguru kwe kw'iburyo hafi y'itako ndetse bigaragara ko ari kunanura ivi.

Umugore ari kunywa amazi ndetse ari kuyanywera muri gurude yu'mweru ifite umufuniko w'ubururu, yambaye esume y'umweru mu ijosi bigaragara ko yari ari muri siporo.

Icupa rirerire ry'amazi ndetse na zimwe mu mbuto zikase bikaba biri ku munzani, aho hari na metero iziritse icupa ndetse ikaba isandariye iruhande rw'imbuto.

Itsinda ry'abantu benshi bari gukorera siporo hamwe bakaba bose bari kumurongo ndetse ni mirongo igera kuri itatu ndetse bari gukurikira umuntu uri kubakoresha mbere yabo.

Umugabo uri muri siporo akaba ari kunanura ikirenge ndetse yambaye isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso kandi anafite tatuwaje ku kaguru.

Inyubako yemerewe gukorerwamo siporo aho bita muri jimu, harimo umugabo uri guterura icyuma cyifashishwa mu gukomeza amaboko, iruhande rwe hari umugore uhahagaze bisa nk'aho ari kumugayidinga.

Mu nyubako ikorerwamo siporo hari umugabo uri gukora siporo ndetse hakaba iruhande rwe hicaye umugore uri kumwitegereza uri kureba ibyo ari gukora.

Umukobwa uri muri siporo ari kunywa amazi kandi yambaye ekuteri mu matwi z'umweru, ikindi nuko ari kunywa amazi akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo.

Umwana w'umukobwa wakomeretse, kuko afite igipfuku ku kaguru ke k'iburyo munsi y'ivi; ndetse akaba akoze ku gipfuko, asa nk'ugishyiraho neza ngo gikomere.

Umugore uri muri siporo akaba ari kunanura amaguru by'umwihariko ukuguru kw'iburyo, akaba ari kubikorera kuri tapi yabugenewe gukorerwaho siporo, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri ngufi.

Igikoresho kifashishwa mu gukora siporo kitwa akitisipuriti, kikaba ari igikoresho gifite umuzingo munini ndetse hari n'igikarito kivamo cyangwa se bagipfunyikamo, nacyo cyanditseho ngo akitisipuriti.

Umusore uri muri siporo, akaba ari kunanura amaboko yombi, ikindi ni uko yambaye isengeri y'umukara iriho akarongo k'umutuku hejuru.

Icyapa cy'ivuriro rya gisirikare kikaba cyanditseho ngo repubulika ovu Rwanda, Rwanda militari hosipito, hagati mu magambo menshi yanditse munsi, handitseho ngo okipesheno terapi bikaba byanditse mu ibara ry'ubururu butsindagiye.

Mu ivuriro aho wafashiriza abavunitse cyangwa se abafite ibikomere, harimo umuganga urimo kuzirika bande ku kaguru k'umurwayi ndetse ari kuzirika iyo bande ku kirenge.

Umusore uri muri siporo, akaba ari kunanura ikirenge akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo, ndetse n'ikirenge ni cyo ku kaguru k'iburyo.

Umugore usoje siporo akaba ari kunywa amazi, akoresheje gurude y'umweru ifite umufuniko w'ubururu, ikindi ni uko afite esuwime y'umweru yambaye mu ijosi.

Umukobwa usoje siporo ari kunywa amazi, ari kunywera muri gurude ndetse akaba afite isume y'umukara ku rutugu, ikindi yambaye isengeri ndetse yabize n'ibyuya.

Imbuto z'amoko atandukanye ziri hamwe aho harimo amaronji, worameroni ndetse zikaba ziri kumwe n'utundi dukoresho turimo umunzani w'umugozi, ubasha gupima ndetse n'utundi tune tw'ubururu.

Umugabo usoje siporo ari kunywa amazi yicaye kuri esikariye, afite terefone ndetse na ekuteri mu matwi ari kumva umuziki.

Umugabo uri muri siporo akaba arikunanura ikirenge n'amaguru akaba ari kubikora yicaye ndetse yambaye na ekuteri z'umweru ari kumva umuziki imbere ye hateretse na gurude y'amazi.

Amoko y'imbuto zitandukanye arambitse hamwe n'imidari y'ubwoko butandukanye, muri ayo moko y'imbuto twavugamo nk'inanasi, ironji, umuneke ndetse n'ibindi byinshi.

Abagabo babiri bari gukora siporo, ariko umwe ari kunanura undi, ariko uwo bari kunanura araryamye, iruhande rwabo hari umupira wa ruhago ndetse hirya yaho hateretse igikapu cy'ubururu.

Ubwoko bw'imiti ishobora gufasha abarwayi, ariko bukaba buri mu dukarito tugiye dutandukanye, kuko hamwe hariho uturango tw'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Amoko atandukanye y'ibikoresho byifashishwa muri siporo harimo ga bambara ku biganza ibitambaro ndetse hakaba hari n'andi moko y'imiti itandukanye harimo nk'imiti y'ibinini ndetse n'uducupa tw'imiti y'amazi.

Amoko y'imipira yifashishwa mu gukina ari kumwe n'agakoresho kifashishwa mu gupima abarwayi, muri ayo moko y'imipira harimo: umupira wa futuboro, umupira wa basikete, rugubi ndetse n'udutenesi dutoya n'utwifashishwa mu gukina tenisi.

Hari umugabo uri gukora siporo ndetse akaba ari kunywa amazi, ari kuyanywa yifashishije gurude y'ubururu ifite umufuniko w'umukara.

Icyapa kiriho amafoto menshi agaragaza ibimenyetso ndetse n'uburwayi umuntu yaba afite, aho agaragaza uko umurwayi yifata ndetse n'uburwayi arwaye, nk'aho urwaye umutwe, aba yifashe mu misaya, ushaka kuruka akaba yifashe ku munwa.

Umukobwa uri muri siporo, akaba ari kunanura amaguru ye, aho ari kunanura by'umwihariko ukuguru kw'iburyo yakurambuye, kandi ari kubikora yicaye.

Inkoni ebyiri zabugenewe, zifashishwa mu kugenda, zikaba ziriho udushumi tw'imikara ndetse umuntu ashobora kuba yafata mu gihe yumva adashaka gukora ku nkoni.

Umugabo wavunitse ikirenge cy'iburyo, hakaba hari umuntu imbere ye uri kumushyiriraraho bande, ikindi ni uko umurwayi yambaye ikabutura, mu gihe uri kumushyiriraho bande yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara.

Umugabo uri muri siporo, akaba ari kunywa amazi, ikindi ni uko yambaye isaha ku kuboko kwe kw'iburyo.

Ifoto, igaragaza, amoko atandukanye, y'insimburangingo z'akaguru aho ari amoko agera kuri atatu, atandukanye.

Umusore usoje siporo akaba ari kunywa amazi ari kuyanywera mu icupa rya palasitike ikindi ni uko yambaye isengeri y'umukara.

Ikimera kikiri gitoya, kikaba gifite amababi magari ndetse bigaragara ko kiri gukura neza.

Ikirango k'ikigo k'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa cyitwa Rwanda efudi eyi, kikaba nanone cyanditseho ngo Rwanda fudu andi duragizi otoriti.

Hari imirima ihinzemo inanasi, hagati y'iyo mirima hakaba harimo umuhanda uhagazemo abantu bambaye imipira y'umweru, iy'icyatsi n'indi yandikishijweho ibara ry'umuhondo, hakaba hari imodoka ebyiri muri uwo muhanda ndetse imwe ikaba irimo n'uyitwaye.

Umuntu uri gusekura imiti ya kinyarwanda ndetse akaba ari kwifashisha agasekuru kagufi n'umusekuzo wabigenewe ndetse n'uwo musekuzo akaba ari mugufi.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu gusukura amenyo, bukaba bwanditseho ngo foreva burayiti tufu geri akaba ari icupa rigufi.

Ubwoko bw'imiti gakondo ikaba ari imiti ipfunyitse mu dushashi ariko ikaba irambitse ku kibabi bisa nkaho icyo kibaya ari cyo isekurwamo cyangwa se ikurwamo.

Umugabo n'umugore bakaba bahagaze iruhande rw'ishyamba rya kimeza, umugabo yambaye umupira w'umutuku, ikote ry'umukara mu gihe uwo mugore yambaye umupira w'umweru akaba yiteze n'igitambaro kijya gusa ubururu kandi bakaba bari kwitegereza umuntu uri kubafotora.

Hari ishyamba rya kimeza ririmo ibiti byinshi bitandukanye, hakaba hari ibiti birebire bifite amashami maremare ndetse n'ibigufi bifitemo amabara y'umutuku.

Ishyamba rya kimeza, ririmo ibiti bikeya hakaba harimo igiti kirekire, gifite amashami ndetse n'amababi menshi.

Icupa ry'umuti, rikaba ari icupa rigufi, rifite umufuniko muremure w'umukara, ikindi ni uko ryanditseho foreva.

Ishyamba rinini rya kimeza, rikaba ririmo ibimera byinshi, ndetse hakaba hagaragaramo ibimera bishaje bitagitoshye.

Ururabo rugari rukura rurandaranda, rukaba rufite amababi atari icyatsi kibisi ariko magari ndetse hakaba hariho n'uturabo tw'iroza.

Ubwoko bw'umuti witwa Forever Lycium Plus. Bukaba buboneka mu gacupa kagufi k'umweru ndetse gafite n'umufuniko w'umweru.

ikimera cy'utubabi tugufi kikaba ari ubwoko bw'umuti kikaba giteye mu dusarabwayi cyangwa se galavio

Icupa ritari rirerire ariko na none ritari rigufi, rikaba ari icupa ry'ubuki ryanditseho ngo "foreva behani."

Ubwoko bw'umuti witwa aroberi nekita bukaba buboneka mu macupa atandukanye yaba amaremare n'amagufi, ikindi ni uko ukorwa mu gikakarubamba.

Amacupa menshi y'imiti, yaba ibinini ndetse n'imiti y'amazi, akaba ateretse ku meza ndetse iruhande rwayo hari igitambaro kijya kugira ibara ry'iroza.

iduka ricuruza imiti gakondo, hakaba hari imiti iri mu macupa atandukanye, ariko akaba ari amacupa magari atari maremare cyane ndetse hari n'ubwoko bw'ibimera iyo miti ikorwamo.

Hari icupa ry'umuti rikaba ari icupa ry'umweru, ku cyapa kiriho handitseho ngo foreva royo jeri ndetse ku ibara ry'ubururu hasi kuri icyo cyapa handitseho foreva, inyuma yaryo hari amaronji bigaragara ko uwo muti ari cyo kintu ukorwamo.

Ubwoko bw'umubavu witwa lavenda, bukaba ari ubwoko bw'umubavu buba buri mu gacupa gato, kagufi, gafite umufuniko w'umukara.

Ubwoko bw'umuti witwa foreva vijoni, akaba ari ubwoko buboneka mu gacupa kagufi k'umweru ndetse gafite n'umufuniko w'umweru.

Amacupa ya parastike arimo ubuki, akaba ari amacupa agera kuri atanu. Ikindi ni uko amwe afite imifuniko y'ubururu bwijimye andi afite imifuniko y'ubururu juru.

Agakarito k'umuti gafite amabara menshi yiganjemo ibara ry'iroza, akaba ari umuti witwa besita longu layifu. Hakaba handitseho amagambo menshi nk'ayo twavuga aliyanse, langa viti fomila ndetse n'ibindi.

Umuntu yambaye ingofero ndetse ahagaze ahantu hari ibimera byinshi ariko hakaba hari ikimera ari kwitegereza ndetse akaba yakoze no ku bibabi byacyo akireba neza akitegereza.

Umugabo afite umuti wa kinyarwanda, urasekuye, uri ku gipapuro, wari uzinze, bigaragara ko agiye gukoraho hanyuma akongera akawuzinga.

Icupa ry'umuti rikaba ari icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, ryanditseho ngo foreva royo jeri, ikindi nuko agaragaza ko ari karemano cyangwa se natire ijana ku ijana.

Ikimera kikaba n'umuti w'ukimenyabose cyitwa igikakarubamba, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, harimo n'inzoka zo mu nda.

ubwoko bwa product zikorwa n'uruganda infinit aho ari ibikoresho bitandukanye harimo imibavu, umuti usukura amenyo ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Icupa ry'umuti witwa Aloe berry nectar, akaba ari umuti ukorwa mu gikakarubamba ndetse ukaba uri mu icupa rirerire, rifite umufuniko ujya gusa umutuku.

Amoko y'imbuto n'ibimera bitandukanye bikaba bigaragara ku mafoto, aya mafoto akaba agera kuri cumi n'abiri aho harimo ifoto iriho ikimera gifite imbuto z'icyatsi ndetse n'ibindi bimera bifite amababi atandukanye.

Ubwoko bw'umuti witwa arovera, bukaba buboneka mu ducupa tugufi, tw'umweru, ndetse dupfundikijwe n' imifuniko y'umweru, ariko tukaba turiho ibyapa bitandukanye, ndetse biriho n'amabara atandukanye.

Ikirango cyanditse ngo aro sayanse kanso, kanso hagati hariho igisiga ndetse handitseho ngo foreva, ikindi ni uko munsi handitseho memba sipotirayiti.

Umuti witwa aroregisi akaba ari umuti ukoreshwa ku munwa mu buryo bwo koroshya umunwa ukawurinda kumagara, ikindi ni uko bagaragaza ngo biroroshye kuwukoresha handitseho ngo izi tu yuze.

Ubwoko bw'umuti, ukaba uri mu gacupa karekare, ndetse ukaba ari umuti witwa shapo, ikindi ni uko amagambo awanditseho yandikishijwe ibara ry'icyatsi.

Ubwoko bw'imiti ikaba ari imiti gakondo ikaba iri mu ducupa dupfundikiye utwo ducupa turi mu mabara y'umuhondo ndetse dupfundikijwe imifuniko y'imituku.

Tungurusumu zitunganyije, zishishe, zigaragara neza, kuko zirasa umweru, bigaragara ko zakuweho udushishwa tw'inyuma.

Ibimera byinshi bitandukanye biri hamwe, bigaragara ko ari igihuru, hakaba harimo ibifite amababi maremare, ndetse n'ibifite amababi magufi.

Amacupa menshi arimo imiti ya kinyarwanda hakaba harimo amacupa y'imikara maremare ndetse n'amagufi. Amwe mu macupa magufi akaba apfundikijeho imifuniko y'imihondo ndetse n'iy'imituku.

Ururabo rwiza rufite amababi y'icyatsi ariko kitari icyatsi kibisi ndetse hakaba hariho n'indabo zisa iroza rukaba ari ururabo rurandaranda hasi ku butaka.

Ikimera kikiri gitoya bigaragara nkaho bagikase kigashibuka ndetse hari umuntu ugikozeho uri kucyitegereza ashaka kumenya uko kiri gukura.

Umugore wambaye imyenda y'umweru, ndetse ufite na marete ku kuboko, ahagaze imbere y'ibihingwa, ndetse hari n'umubyare, bigaragara ko ari mu rutoki. Ikindi, ari gukora kuri icyo kimera, acyitegereza.

Bamukerarugendo bari mu misozi miremire ariko aho bageze bari kubona imbere yabo umugezi uturuka hejuru ku musozi ndetse bakaba banakandagiye mu mazi aho umugezi utembana.

Ikimera kiza, gitoshye, kikaba gifite amababi maremare ariko ayo mababi akaba agaragara nk'asongoye ndetse no ku ruhande rw'amababi hariho utuntu dutoya dusongoye.

Umuganga ari kwerekana ubwoko bw'umuti witwa mifejini, ukaba ari ibinini bitatu biba bifunitse.